Umugore uhagaze imbere hateretseho agakarito kariho ishusho y'umuntu, akaba ari mu bintu acuruza birimo amavuta, n'amaparufe abantu bisiga.

Ibitoki bimeze nk'aho babikaranze mu mavuta, nuko bagashyiraho ibirungo, ibyo bitoki bikaba byahiye, bakaba babishyize ku isahani, bategereje kubirya.

Umugabo umeze nk'aho ari gusuka inzoga mu icupa. Uwo mugabo imbere ye hakaba hateretseho ikintu kimeze nk'igisabo, n'udutebe tw'umweru, wagira ngo bari kutugurisha.

Ahantu hameze nkaho ari muri resitora kuko hariho intebe n'amatara ari kwaka, amatara y'umuhondo, hakaba hariho n'ibitambaro bisa n'umutuku.

Abagabo bameze nk'aho bari mu nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Abo bagabo bakaba bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, harimo n'udutebe dufite amarangi y'umweru. Harimo n'amatara afite amarangi y'umweru.

Imigati iteretse ku tumeza kuko aho hantu barayicuruza . Ni muri alimantasiyo bayicururizamo kuko hariho ibiribwa byinshi.

Umuntu umeze nkaho ari kubyinira abantu benshi, uwo muntu ameze nkaho ari kuri siteji ari kubyinira aba bantu. Uwo muntu akaba amatara ari kumucana, abo bantu bakaba bavanzemo abagore n'abagabo.

Abantu bameze nk'aho bari mu isoko. Aba bantu bakaba bari mu isoko, hakaba hariho amabasi. Aba bantu hakaba hariho abagore n'abagabo batandukanye.

Ahantu hameze nk'aho bacururizaho imyenda n'amakuvurori yo kwiyorosa. Hariho umugore wicaye umeze nk'aho ariwe ucuruza ibyo bicuruzwa bye, yicaye imbere y'amakuvurori.

Abantu babiri bari kugendera mu muhanda, umwe bamutwaye ku igare, uwo muntu utwaye igare yambaye agapira k'umuhondo, atwaye umugore wambaye umupira w'umukara.

Inzu imeze nk'aho bacururizamo inzoga. Iyo nzu hakaba hariho ibyapa biriho inzoga zanditseho pirimusi. Hakaba hariho n'ikintu kimeze nk'igisanduku cy'icyuma.

Ahantu hameze nk'aho hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda. Iyo nzu ikaba irimo abantu babiri. Harimo umuntu umeze nk'aho ari kugura, undi muntu ameze nk'aho ari kugurisha.

Ahantu hameze nk'aho bacururizaho ibikoresho bya eregitoroniki, hariho abantu bicaye bari kugura ibyo bikoresho birimo: amatelefoni, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Abagabo babiri bicaye kuri moto. Iyo moto umugabo uyitwaye akaba yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, uwo bahetse yambaye ishati y'igitaka n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umuhondo.

Icyapa cyanditseho hano tubafitiye inkoko, amafi, ifiriti, na burushete n'ibindi byinshi bitandukanye. Aho hantu bameze nk'aho bacuruza ibyo bicuruzwa.

Inzu ziteye amarange y'umweru, agapangu k'umutuku, hasi amarangi y 'ubururu n'umweru, hasi hasi hariho ibitanda biteye amarangi y'umutuku hariho n'icyapa.

Abantu bahagaze imbere hariho abandi bicaye hejuru. Hariho icyapa cyanditseho Ineza salo. Bakaba aba bantu bicaye imbere y'uwo muryango bogosheramo, akaba iyo nzu iteye amarangi y'umukara n'umweru.

Abantu benshi bahagaze hanze. Bamwe bari kubakora mu musatsi, abandi barahagaze bari gushungera. Imbere yaho hariho abakozi ba emutiyene bari mu mitaka yabo, bari gucuruza amayinite.

Abantu bameze nk'aho aho bicaye ahantu bacururizaga imyenda n'ibikapu, harimo n'umugabo uri gucuruza, imbere ya ho hicayeho abagore batatu, impande ya ho hariho bote ziteretse ku gatebe.

Inzu y'igorofa iteye amarangi y'umweru n'inzugi z'umweru. Impande yaho hariho igipoto cy'umuriro w'amashanyarazi, hasi hari kunyura umugabo wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara.

Inyubako yanditseho ayiteri mu mabara atukura. Hasi hari icyapa cyanditseho vijoni saro. Hariho abantu bari muri iyo saro. Hasi hariho indobo, imiryango y'iyo nzu isa nk'icyatsi kibisi.

Inyubako bacururizamo ubucuruzi bugiye butandukanye. Harimo inzoga zitandukanye z'ubwoko bwose. Iyo nyubako irafunguye, ifite imiryango isa n'umukara harimo n'ibirahuri, hasi haparitseho imodoka ifite ibirahuri.

Umugabo wicaye wagira ngo ari gukanika, impande ye hariho ibintu bambitse imyenda bacuruza, iyo myenda ikaba ari iy'abagore.

Umugabo utwaye moto itwayeho umugore uteruye umufuka. Uwo mugabo akaba yambaye ikote ry'umutuku, n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umweru.

Abamotari bahagaze ahantu hameze nk'aho aho hantu bakanikiraho amamoto. Aba bamotari bakaba bambaye n' amakasike asa nk'umutuku.

Imyenda imeze nkaho bari kuyigurisha, iyi myenda bakaba bayambitse ibintu bambika imyenda, kugira ngo berekane ko bari kuyigurisha iyo myenda, iyo myenda ikaba ar'imyenda y'igitaka n'umukara.

Amazu yanditseho amacumbi, loji, ayo mazu akaba ateye amarangi y'umweru n'umukara ,porotayi ikaba isa nk'ubururu budahiye.

Inzu iriho icyapa cyanditseho Mama akwini, kiriho ibintu bitandukanye, amayoga n'ibiribwa, n'inyama, hakaba hariho n'ikindi cyapa kiriho imodoka, hasi hakaba hari icyapa cya emutiyene.

Icyapa kimanitse ahantu ku ruzitiro ruteye amarangi y'ubururu, icyo cyapa kikaba cyanditseho roji andi bare, bakoreramo ibyo bikorwa, iyo nzu ikaba imeze nk'aho ari igorofa.

Moto iparitse ahantu mu muryango, iyo moto ikaba iparitse imbere y'umugore wicaye ku ntebe, umugore ufashe icupa yambaye n'akagofero k'ubururu n'agapira k'umukara, iruhande rwaho hariho n'umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara, hariho n'icyapa cyanditseho cezi mugenzi.

Inzu ndende y'igorofa, hasi haparitseho imodoka, impande yaho, hariho n'abantu, hariho n'ibyapa bigiye bitandukanye, hariho n'icyapa cyanditseho, ”amikusi”wagira ngo ni hoteri.

Imodoka ziparitse ku murongo. Izo modoka zifite amarangi asa nk'ubururu, zifite n'amapine asa n'umukara. Inyuma y'izo modoka hariho inzu ifite imiryango y'igitaka, iteye irangi ry'umweru. Impande yaho hariho n'ibiti birebire.

Inzu imeze nk'aho iri ku muhanda, iyo nzu ikaba imeze nk'aho bakoreramo ubucuruzi, iyo nzu hakaba impande y'aho hariho icyapa cyo mu umuhanda.

Icyapa kiriho imyenda itandukanye kimanitse ku nyubako, imeze nk'aho ariyo ikorerwagamo ubwo bucuruzi bw'inkweto n'imyenda n'imyenda.

Urujya n'uruza rw'abantu, iyo nzu imeze nkaho ari etage ifite ibirahuri by'umukara, hasi hariho abamotari abantu bari gutambuka bambaye imyenda itandukanye isa n'umutuku n'umweru.

Inzu zisa naho arizo ubucuruzi, ziteye amarangi y'ubururu. Imbere yaho hariho ikintu kimeze nkaho bacyubakishije tiripuregisi, impande yabo hari kunyuraho umugabo uri gutambuka.

Inzu imeze nk'aho ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Hateretseho amakovurori, hakaba hateretseho n'intebe zifite amabara asa nk'umutuku. Hari n'udutebe duto tw'abana dufite amarangi asa nk'umuhondo.

Inzu ifunguye umuryango irimo ibicuruzwa. Iyo nzu ikaba iriho icyapa cyanditseho arimantasiyo. Iyo nzu ikaba irimo ibicuruzwa bitandukanye, birimo n'amaji.

Icyapa kimeze nk'aho kiri kuranga ahantu bacururiza imyenda, icyo cyapa cyanditseho Ngoga fashoni shopu. icyo cyapa kiriho imyenda itandukanye, iriho umugabo wambaye n'amakoti.

Igipangu cy'umukara kiriho icyapa cyanditseho viziti gesiti hawuze Musanze. Hariho itara riri hejuru, hariho n'inzu yubakishije amatafari y'igitaka.

Inyubako iteye amarangi y'igitaka n'ay'umukara. Hariho icyapa bakoreraho, iyo nyubako ni igorofa. Iyo nyubako imeze neza, kandi abantu bakunda inyubako z'amagorofa. Hariho n'ibindi byapa bakoreraho ubucuruzi butandukanye.

Umuntu utwaye igare, imbere ya ho hakaba hari inzu y'ubucuruzi, hakaba hariho umutaka wa Eyateri batangaho amayinite, hakaba hariho n'umuntu uri kudoda imyenda.

Ahantu hameze nk'aho bacururizaho ibintu bitandukanye, imbere hariho ibintu bimeze nk'aho ari imikoropesho n'udukapu, hariho umugabo uhagaze mu muryango ufite agafuka gasa nk'umweru.

Ikintu kimeze nk'aho kiriho ibintu bacuruza, biriho amasaha n'imikufi . Hakaba hariho ikintu kimeze nk'ikiganza gifashe ibyo bikoresho.

Inzu iriho icyapa. Iyo nzu ikaba yubakishije amabati y'umweru, hakaba hariho n'igipangu cyubakishije amatafari. Hakaba hariho n'icyapa, icyo cyapa kikaba cyanditseho agorolofu limitedi.

Inzu imeze nkaho ari amacumbi, hariho icyapa cyanditseho roji, hajitijweho ibyatsi byinshi, harimo n'akugi gasa nk'ubururu. Iyo nzu hejuru hakaba ariho na anteni.

Inzu zimeze nkaho ari i buranshe y'ikintu runaka, kuko hariho icyapa kiriho n'idarapo, hasi hariho imodoka na moto.

Inzu bakoreraho ubucuruzi bw'amarangi, n'ibindi bitandukanye. Hahagazeho imbere umugabo wambaye ingofero y'umweru, yambaye agashati k'umweru n'ipantaro' y'umukara.

Icyapa cyanditseho werikamu, wagira ngo hari ahantu kiri kuranga bakorera ibintu runaka. Icyo cyapa gisa nk'umukara, amagambo yanditse umweru.

Inzu imeze nk'aho bacururizamo ibikoresho by'amamodoka, iyo nzu iteretseho ibintu bibiri biri mu tudomora bisa n'umukara, hariho hejuru n'ibindi bisa n'umweru n'umukara.

Inzu imeze nk'aho ikorerwamo ubucuruzi, iyo nzu ikaba imeze nk'igorofa iriho umugabo uri gutambuka wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umweru ufashe na telefone mu ntoki.

Abantu bicaye hanze y'inyubako bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hanze hatuyeho imifuka irimo ibicuruzwa hamwe n'ibikarito. Abandi bantu bari mu nzu, bari kugura ibyo bicuruzwa bacuruza muri ubwo bucuruzi.

Abantu bameze nk'abari mu isoko, hariho umugabo uteruye imbada mu ndobo, hariho abandi bicaye hasi bari gucuruza ibitunguru, hariho n'abandi bari gupakira ibindi mu mifuka.

Inyubako iriho abantu imbere, iyi nyubako ifite inzugi zifite amarangi y'ubururu, hateretseho ibidomora. Mu muhanda hariho umugabo utwaye moto, wambaye imyenda y'umukara na kasike isa n'umukara.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye. Hanze hateretseho amabase n'indobo. Ku ruhande hariho amakuvurori n'intebe ziteye amarangi y'umutuku, izindi zisa nk'umweru.

Icyapa kimanitse ahantu ku nzu imeze nk'aho hari igorofa, icyo cyapa cyanditseho mahoro shopu, wagirango ngo acuruza za Omo n'ibindi bitandukanye.

Inyubako y’igorofa yubatse, iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, harimo icyanditseho "Amikusi". Hasi hariho imodoka, hariho n’abantu, hariho n’igiti. Imodoka y’umukara ifite amapine y’umukara n’umweru.

Imodoka iteye amarangi y'umweru n'umukara. Hari imodoka iparitse imbere y'inyubako imeze nkaho ikorerirwamo ubucuruzi. Ku ruhande rwawo hariho inzu iriho icyapa cyanditseho farumasi, hariho n'abantu batandukanye abagore n'abagabo.

Abantu benshi bicaye ku murongo. Bambaye ibintu bisa n'umweru, n'amajipo y'umukara. Abo bantu ni abagore biteze udutambaro tw'umweru n'umukara.

Icyapa kimanitse hejuru y'uruzitiro. Icyo cyapa cyanditseho Debezewane. Icyo cyapa inyuma yaho hariho inzu y'igorofa, ifite imiryango isa umukara, iteye irangi ry'igitaka.

Inzu imeze nk'aho iri hejuru, hasi hariho ikintu kimeze nk'aho ari pisine bogeramo abantu, iyo nzu ikaba ifite imiryango isa nk'umukara.

Umugabo wicaye mu kamodoka, uwo mugabo akaba yambaye inkweto z'umweru, n'ipantaro y'umukara, n'agapira, ako kamodoka kakaba gafite amapine, asa n'umweru n,umukara.

Icyapa kimanitse cyanditseho "Wani Emu Moteri". Hasi kuri porotaye isa nk’umukara, hariho ikindi cyapa cyanditseho "Fasita Fudu". Iyo nzu ikaba yubakishije amatafari, isakaje n’amabati y’umweru.

Abantu bameze nk'aho bari mu isoko, iryo soko rikaba rimeze nk'aho bacururizamo ibintu abantu barya, hakaba harimo inyanya n'amakaroti n'imineke.

Ahantu bacururiza ibintu by'ibiribwa, birimo imikati yo mu bukwe, n'amasambusa, n'amacapati, ibyo bakaba babicururiza muri arimantasiyo.

Ibihaza biteretse imbere y'abagore bameze nk'aho bari kubigurisha. Hariho n'ibasi irimo pavuro, hejuru hariho amateke, n'ibijumba. Hameze nk'aho ari ahantu mu isoko.

Abantu benshi bahagaze ahantu hameze nk'aho ari mu isoko, impande yaho hatuyeho ibisheke byegetse ku nzu, inzu zifite imiryango y'umweru, hariho n'umugore wambaye agashati k'umutuku, ahetse n'umwana.

Imineke iteretse ahantu hejuru, hariho n'imyembe n'ibinyomoro. Hasi hicayeho umugore umeze nk'aho ariwe uri gucuruza ibyo bicuruzwa, kuko abantu barabikunda.

Ubudomora buriho icyapa cyanditseho salama icyo cyapa, kiranga ko harimo umutobe umeze neza cyane, ubwo budomora bupfundikije imifuniko isa n'umweru, kamwe ni kanini akandi ni gatoya.

Insenda, impande yaho hariho ibitunguru, umugore ameze nk'aho ashaka kugura ku bitunguru, yambaye igitenge cy'amabara yipfutse n'agatambaro mu mutwe, impande yaho hari abantu benshi.

Umufuka w'umweru upakiyemo ibintu bimeze nk'aho ari imikeka. Iyi mikeka ikaba ifite amabara atandukanye y'umweru n'umukara n'igitaka n'umutuku.

Abantu babiri hariho umugabo wambaye imyenda y'ubururu, ameze nk'aho ari gukora isuku ahantu mu nzu imeze nk'aho igerekeranye. Hariho icyapa cyanditseho Enoke Elegitoronoke Ripeya.

Ahantu hateretseho indobo harimo ibintu byinshi bacuruzamo. Aho hantu harimo utudobo turimo ama bombo ateretseho n'imiceri, n'ibidomora birimo amavuta, n'amasafuriya, n'imifuka ipanze imeze nk'aho irimo imiceri.

Ibintu bimeze nk'ibikombe, hariho ikintu kimeze nk'ukuguru k'umuntu kwambaye urukweto, uku kuguru gusa nk'umukara hariho ibikombe bacuruza.

Ahantu hameze nk'aho bacururizamo ibintu byo kurya. Aha hantu hakaba harimo imigati iri mu ndobo hakaba hateretseho n'amatelemosi, hakaba hariho n'amaji apanze muri kontwari.

Umugabo wicaye ahantu ku ibuye, uwo mugabo yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, n'ishati y'ubururu. Hasi hariho amasafuriya, uwo mugabo ameze nkaho ariwe usudira ayo masafuriya amuteretse iruhande.

Amaronji ateretse ku nkoko, andi maronji ageretse ku yandi maronji, amaronji ni meza atuma mu mubiri hiyongeramo intungamubiri kuko n'imbuto, amaronji iyo yeze aba asa nk'umuhondo.

Abantu bari mu isoko bari gucuruza imyaka, irimo amaronji n'imyembe n'imineke n'inanasi, akaba umugore ahagaze hejuru y'imyaka, akaba yambaye agapira k'umutuku, yakenyeye agatambaro k'umweru, hariho n'umugabo ku ruhande wambaye imyenda y'umukara.

Ibintu bimeze nkaho ari indagara bamaze gutwika. Hirya yaho hakaba hariho ibintu bimeze nk'amafi, ibyo barangije gutwika biri mu mufuka, bari kubicuruza.

Ahantu hameze nk'aho ari mu isoko, harimo abantu benshi batandukanye, bari guha ibintu bitandukanye, harimo abagore n'abagabo, hariho n'inzu, hariho n'umutaka batangiramo amanite.

Abantu bicaye ahantu wagira ngo bari mu isoko, uwo muntu akaba ari gucuruza inyanya, n'insenda, n'imboga, hakaba hariho abandi bantu hejuru bari guhaha ibyo bicuruzwa.

Isombe ziteretse ahantu mu isoko bagiye kuzigurisha, isombe ni nziza kuko n'imboga abantu barazikunda cyane, barazibeta nuko maze bakaziteka, nuko bakazivanga n'ibindi biribwa.

Ahantu hameze nk'aho bakoreraho ubucuruzi ,hariho imikoropesho isa n'umweruru n'umukara. Hirya hariho amabasi y'umweru, ubururu, n'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu, abantu bameze nk'aho ari mu isoko, hariho abantu bambaye imyenda itandukanye. Iyo myenda isa n'umutuku. Bacuruza amavuta, amaji n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Amatunda ateretse mu kintu cy'umweru. Icyo kintu kiri hejuru y'amapapayi. Impande y'amapapayi hariho n'ibinyomoro. Ayo mapapayi akaba ateretse ku nkoko bameze nk'aho bari kuyagurisha.

Abantu bari gushungera umuntu wikoreye igitoki. Uwo muntu wikoreye igitoki afashe n'ikindi mu ntoki. Abantu bari kumushungera, abagore n'abagabo. Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, n'ikabutura y'ubururu.

Ahantu hameze nk'a ari mu gasoko. Ako gasoko gacururizwamo ibintu bitandukanye birimo: amakaroti, intogi, imboga, n'inyanya. Hariho abantu baje guhaha, hariho n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara, yambaye n'agapira gasa nk'umutuku.